Abarimu barera abana bagomba kuba ari abantu bakundana abantu bumvikana. Iyo bumvikana ku icyo kigo bashyira hamwe bakareba iterambere ry'abana. Nta makimbirane bagirana . Icyo kigo kiba kimeze neza kigera n'iterambere.

Amashuri aba meza tuyarereramo abana bakagenda bakiga, ukabona bamenye ubumenyi. Iyo bari kwigira ahantu heza hasukuye inzu yubatse neza y'ishuri ubona ari byiza cyane, kuko nawe iyo umwohereje ku kigo cyiza wumva unezerewe cyane.

Ikigo cy'amashuri gifite abana bicunga, bicunga bari kumva bishimye, baba banezerewe, ibi bintu biba bikenewe mu bigo by'amashuri nk'abana bakiri batoya iyo bafite aho kwicundebera, birabashimisha cyane.

Ababazaga intebe bazibazaga neza iyoba bafite ibipimo, bakagendera ku bipimo. Intebe zibaga arinziza kuzicaraho mu rugo ubonaga intebe ari nziza kuzikoresha ahoriho hose, intebe zibaga zikenewe.

Iyo uri umunyeshuri mwiza, washiritse amanga, uravuga ahariho hose. Bakubaza, ukavuga. Iki waba ufite n’ikibazo, ukakivuga cyangwa ukakibaza, ugasobanukirwa icyo ushaka kumenya. Ni yo mpamvu kuba umunyeshuri bituma usirimuka no mu mutwe.

Iyo abanyeshuri biga babishyizeho umwete, baratsinda bakagira amanota meza, mwarimu nawe agashimishwa n'uko abonye abanyeshuri yigisha batsinze.

Abanyeshuri biga neza, bakurikira mwarimu bagakurikira amasomo bari kubigisha, bituma bamenya ubwenge ntibasakuze mu ishuri, ntihagire umuntu uguhamagara mu ishuri, ugakurikira mwarimu bituma umenya ubwenge ugakurikira na mwarimu, icyo yigisha ukagifata.

Jenereta ziba nziza iyo umuriro ugiye uhita ucomeka, umuriro ugahita ugaruka ibyo uri gukora ntibihagarare bigakomeza bikagenda neza, n' icyo cyiza cya jenereta yunganira umuriro iyo ugiye ukora ibintu byawe nta kibazo.

Wiga kudoda inkweto, ukurikiza icyo mwarimu ari kukubwira, n'icyo ari kukwereka. Akaba ari cyo ugenderaho. Ugakora igipimo cyiza. Iyo ukoza igipimo cyiza, urukweto ruba rwiza ukabona rwaguyemo neza, ntaho ruhengamye. Kubera ko wakurikiye amasomo mwarimu yaguhaye.